Urubyiruko rw'ubukorerabushake ni rumwe mu bari gutanga ubukangurambaga bwo gutanga amaraso kuko buriya ngo utanze amaraso aba atanze ubuzima kandi ntabwo wakanga guha umuntu ubuzima, ubaye ubishoboye.

Abaganga bakora mu bitaro cyane cyane mu byumba byakirirwamo indembe, ni bamwe mu basabwa guhora bari maso kandi bagatanga serivisi nziza ku barwayi baje babagana.

Abakozi bakora ku bitaro mu byumba bivurirwamo inkomere, basabwa kwirinda uburangare kuko baramutse barangaye gatoya, abarwayi bajya bapfa ari benshi.

Abaganga bakora mu bitaro cyane cyane abakora kuri serivisi zo kwakira inkomere, baba basabwa gukorera hamwe kandi bakajya inama bakirinda kurangara mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi inoze.

Abaganga bakora mu byumba bivurirwamo indembe, ni bamwe mu baba bagomba kwitonda kandi bakirinda kurangara, bagatanga serivisi nziza kuko barangaye gatoya umurwayi ashobora kuhasiga ubuzima.

Urubyiruko rwiganjemo abakiri bato abakobwa, abasore ni bamwe mu bari mu bukangurambaga bwo kubwira abaturage gutanga amaraso kuko ngo utanze amaraso aba atanze n'ubuzima.

Abaganga barasabwa kwita ku nkomere cyane mu gihe zije zibagana, abarwayi nabo barasabwa kwihutira kwa muganga igihe bagize ikibazo icyo ari cyo cyose, bakirinda kwivuza mu buryo bwa magendu.

Buri bitaro bigomba kuba bifite ibikoresho byifashishwa mu butabazi bwihutirwa nk'ibikoresho byongera umwuka, ibitanda bijyanwaho abarwayi ndetse n'ibindi.

Abaganga ndetse n'abandi bakorerabushake bakora mu byumba bivura indembe, basabwa kugira isuku bagasukura ibikoresho byose mbere yo kuvura umurwayi, mu rwego rwo kwirinda kwanduzanya indwara zandurira mu maraso ndetse n'andi matembabuzi.

Abakora akazi ko gutwara inkomere mu modoka z'ibitaro barasabwa kujya bagenda bitonze mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse no guteza ibindi bibazo bigiye bitandukanye mu muhanda.

Mu bitaro kwa muganga, Leta y'u Rwanda yashyizeho serivisi yo kujya baganiriza abarwayi, cyane cyane abakecuru, bakababwira bimwe mu bishobora kubafasha, kubaho neza mu za bukuru.

Mu bitaro kwa muganga hagomba gusangwa ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'utugare dutwarwaho abarwayi barembye cyane batabashije kwigenza.

Abakozi bakora mu bitaro kwa muganga barasabwa kurangwa n'urukundo, ikinyabupfura, gukorera hamwe ndetse n'ibindi, ibi ngibi bikaba bibafasha gukora akazi kabo neza kandi bagatanga serivisi inoze.

Mu rwego rwo gupima indwara zigiye zitandukanye Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho gahunda ko umurwayi wese uzajya ujya kwivuza bazajya bamupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ku bitaro abaganga ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, barashishikariza ababyeyi kujya bakingiza abana uko bikwiye nta rukingo na rumwe basimbutse.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abakozi bakora ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro bitandukanye, kurangwa n'isuku, gutanga serivisi nziza kandi bakirinda kurangara mu kazi, mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi inoze.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amaso ni hamwe mu hagomba kwitabwaho hakarangwa n'isuku mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku mwanda.

Abakozi bo kwa muganga mbere yo gutangira akazi, barabanza bagahura, bagasenga kandi bakanasuhuzanya. Ibi bikorwa bibongerera urukundo, ubushake mu kazi ndetse no gutanga serivise nziza bishimye.

Ibitaro byujuje ibisabwa bigomba kuba bifite ibitanda abarwayi baryamaho, intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje serivisi zitandukanye kandi bikarangwa n'isuku, yaba mu bwiherero aho abakozi bo kwa muganga bakorera ndetse n'ibindi.

Inyubako z'ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima ni zimwe mu zigomba kuba zifite aho abarwayi bategerereza ndetse n'abarwaza aho bagomba kwicara, ibi bigafasha abaje babagana guhabwa serivisi nziza.

Minisiteri y'ubuzima ndetse n'abakozi batandukanye bo ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro, ni bamwe mu bahuriye hamwe baganira ku bijyanye na serivisi inoze n'uburyo umurwayi agomba kwitabwaho.

Ku bufatanye na Leta y'u Rwanda hubatswe inyubako izajya ifatirwamo ibipimo bitandukanye harimo ibya malariya ndetse n'ibindi bipimo, ibi bikazafasha abaturage kwirinda ndetse no kurandura malariya.

Abakozi bakora mu byumba byo kwa muganga cyane cyane ibitangirwamo ibizamini by'abarwayi basabwa kugira isuku ndetse bagakaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara zandura.

Abakozi bakora kwa muganga cyane cyane abakora mu byumba bitangirwamo ibizamini by'abarwayi ni bamwe mu bagomba kwitonda ndetse bakambara ibikoresho byabugenewe bibarinda kwandura indwara zitandukanye.

Abakozi bakora mu byumba by'ibizamini kwa muganga, basabwa kujya bambara ibikoresho bishobora kubakingira kwanduzwa indwara n'abarwayi nk'ibyo bita ga, udupfukamunwa ndetse n'ibindi.

Abakozi bo kwa muganga barasabwa kujya bakaraba amazi meza n'isabune, mbere yo gupima ibizamini by'abarwayi, ibi bifasha mu kugira isuku ndetse no gutanga serivisi nziza kandi inoze.

Abaganga bo ku bitaro, cyane cyane abakorera mu byumba bifatirwamo ibizamini by'abarwayi, ni bamwe mu bashishikarizwa kujya bambara ibikoresho bishobora kubarinda kwandura indwara izo arizo zose.

Abakozi b'ibitaro cyane cyane abakorera mu byumba by'ibizamini ni bamwe mu bagomba kwitonda mu gihe bari gufata ibizamini abarwayi mu rwego rwo kwirinda indwara zandura.

Abakozi bakora mu bitaro cyane cyane mu byumba bifatirwamo ibizamini by'abarwayi ni bamwe mu bagomba kwitonda bakambara ibikoresho bituma batakandura indwara zitandukanye.

Abakozi bakora mu bitaro kwa muganga cyane cyane abo mu byumba by'ibizamini, barasabwa kwitonda igihe bari gutanga ibisubizo kuko ushobora kwibeshya ugasanga umurwayi umuvuye indwara atari arwaye.

Ibyumba by'ibizamini byashyizwemo ibyuma by'ikoranabuhanga aho usanga umurwayi bamureba mu mutwe bidasabye ko bawubaga cyangwa se ngo bawusature.

Abaganga bo ku bitaro bakora mu byumba by'ibizamini barasabwa kujya baba maso bakagirira isuku ibikoresho byo muri ibyo byumba ndetse bagatanga na serivise nziza kandi inoze ku barwayi.

Abayobozi bo ku bigo nderabuzima bakangurira ababyeyi kwita ku buzima bw'abana babo kugira ngo bazakure neza mu gihagararo ndetse banatekereza neza.

Mu rwego rwo gutanga uburezi bufite ireme ndetse no kurengera imikurire y'umwana, mu bigo by'amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kujya iha buri mwana amata yo kunywa.

Abaganga ndetse n'abandi bayobozi bo mu bitaro bigiye bitandukanye, bakangurira ababyeyi gufata neza ubuzima bw'umwana ndetse ugaragayeho ndwara bakihutira kumujyana kwa muganga.

Minisiteri y'ubuzima ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima, bahuriye mu nama yari igamije gukangurira abaturage kureba uburenganzira bw'umwana ndetse no gukurikirana ubuzima bwabo.

Abayobozi mu by'ubuzima ndetse n'abajyanama b'ubuzima, barakangurira ababyeyi kujya bakingiza abana ku gihe kandi ko nta mwana ukwiye gusimbuka urukingo na rumwe.

Minisiteri y'ubuzima ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego zitandukanye nko mu nzego za polisi ndetse no ku rwego rwa gisirikare ni bamwe bari mu bukangurambaga bwo gutanga amahugurwa ku buzima bw'abana ndetse n'ubw'ababyeyi.

Isange One Stop Center ni serivisi isangwa kuri buri bitaro, aho bafasha uwahohotewe yaba umugore, umwana ndetse n'umugabo.

Ubukangurambaga ku rubyiruko ndetse n'abagabo n'abagore byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ni kimwe mu byo Leta yashyizemo imbaraga, kandi bigaragara ko biri kugenda bijya mu murongo mwiza.

Ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ubuzima, bakanguriye urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, itabi, inzoga ndetse n'ibindi.

Minisiteri y'ubuzima yashyizeho gahunda yo guhugura abaturage ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ibi bigafasha abaturage ndetse n'abaganga guhorana ubuzima bwiza.

Ibyumba bibikwamo imiti kwa muganga cyane cyane imiti ivura malariya, bigomba kugirirwa isuku ndetse iyi miti ikabikwa ahantu hashobora gutuma itangirika.

amaduka acuruza imiti arasabwa kujya agira isuku y'imiti ikabikwa ahabugenewe, mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika igatakaza ubuziranenge.

Abacuruzi b'imiti itandukanye ivura amatungo nk'inka, ingurube, ihene, intama ndetse n'izindi nyamaswa, bagomba kujya bakira imiti ahantu habugenewe mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika.

Amaduka acururizwamo imiti y'amatungo igiye itandukanye, abasabwa kubika imiti ahantu habugenewe, mu rwego rwo kwirinda ko yatakaza ubuziranenge kandi akaba ataye agaciro.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo imiti zigomba kuba zifite isuku, mu rwego rwo gutanga serivise nziza kandi zujuje ubuziranenge.

Abakora ubucuruzi bw'imiti, ni bamwe mu bafite akamaro kuko umurwayi utarembye cyane ashobora kwivuriza muri aya maduka kandi agakira.

Ibyumba bibikwamo imiti kwa muganga ni bimwe mu bigomba kugirirwa isuku ku rwego rwo hejuru. Ibi bifasha abarwayi gukira neza kandi ntibagire ikindi kibazo bahura na cyo gitewe no kurya cyangwa kunywa imiti yangiritse.

Abakozi bacuruza imiti y'amatungo itandukanye harimo imiti y'ihene, inka, ingurube, ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye basabwa kujya bayibika ahantu heza mu rwego rwo kwirinda ko yangirika igatakaza ubuziranenge.

Abakozi bakora kwa muganga mu byumba by'ibizamini, basabwa kugira isuku, ndetse kandi bagatanga serivisi nziza, mu rwego rwo gutanga serivisi inoze.

Abacuruzi bacuruza imiti y'amatungo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura aya matungo nk'ibitoryi ndetse n'ibindi, barasabwa kujya batanga serivisi nziza kandi ku gihe.

Amaduka acuruza imiti agomba kubahiriza amategeko akurikira kugira isuku, kubika imiti ahantu heza ku buryo itapfa kandi ibi bigafasha abarwayi kugira ubuzima bwiza no kwirinda izindi ndwara ziterwa no kunywa imiti yarengeje igihe cyangwa yapfuye.

Abanyamuryango b'ishyaka rya FPR Inkotanyi ni bamwe mu bahuriye mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo ndetse barishima, barabyina bararirimba n'ibindi bitandukanye.

Minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'abakozi batandukanye baturutse mu bigo nderabuzima barakangurira abaturage kwirinda indwara ndetse bagasaba n'ababyeyi kumenya ubuzima bw'abana babo.

Minisiteri y'Ubuzima yatangije amahugurwa ku rubyiruko, aho ikangurira abana bakiri bato kwirinda ubusambanyi ndetse banabigisha uburyo bwo gukoresha agakingirizo, mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina.

Minisiteri y'uburezi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, bashyizeho gahunda yo kurwanya Malariya, hatangwa inziteramubu ikoranye umuti kuri buri muryango ndetse bakora n'umuganda wo gutema no gusiba ibidendezi by'amazi.

Minisiteri y'ubuzima yashyizeho gahunda yo gukangurira urubyiruko kwirinda indwara zandurira mu mibonanompuzabitsina nka Sida ndetse no kubigisha gukoresha agakingirizo.

Minisiteri y'ubuzima yateguye amahugurwa yo gukangurira abaturage kubaho mu buzima bwiza, aha ngaha hapangwa gukinwa amakinamico agiye atanga inyigisho zitandukanye.

Minisiteri y'ubuzima ihagarariwe n'abakozi bayo mu duce dutandukanye tw'igihugu barakangurira urubyiruko gukoresha agakingirizo kandi neza mu rwego rwo kwirinda inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina.

Minisiteri y'uburezi ndetse n'abaganga baturutse ku bigo nderabuzima bigiye bitandukanye bari gutanga ubukangurambaga ku rubyiruko ndetse n'abandi ku buryo bagomba kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina bakoresha agakingirizo neza.

Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abakozi baturutse ku bitaro bigiye bitandukanye, bahuriye mu nama ikangurira urubyiruko kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina harimo nka sida, ndetse babakangurira no gukoresha agakingirizo kandi neza.

Minisiteri y'ubuzima, abayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye, harimo na polisi y'u Rwanda, bashyizeho ubukangurambaga bwo guhugura urubyiruko, uburyo bashobora kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, babigisha ko bagomba gukoresha agakingirizo, igihe kwifata byananiranye.

Minisiteri y'ubuzima ndetse n'abakozi bo mu nzego zitandukanye, harimo n'inzego z'umutekano, ni bamwe mu bahuriye hamwe, bagirana ibiganiro bitandukanye byerekeye ku buzima.

Abaganga barakangurirwa gutanga amahugurwa ku baturage ndetse n'abandi bana abo aribo bose ku bijyanye no gucunga ndetse no kurwanya indwara zandura, birinda gukoranaho, gusuhuzanya ndetse no gusomana.

Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abakozi batandukanye n'abaturage ni bamwe mu bagiye mu bukangurambaga bwo kurandura ibiyobyabwenge mu rubyiruko aho bagiraga bati "turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko".

Mu buvuzi bwa gakondo hifashishwaga ibimera bitandukanye harimo nka nyirabarasanya yifashishwaga mu kuvura ibikomere ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Abaganga gakondo batangaga ubuvuzi ku barwayi barwaye indwara zitandukanye, hari imizo kubyimba amaguru, imvune ndetse n'ibindi, nubwo hari aho ubuvuzi bugitangwa ntabwo bikemewe na Leta.

Bimwe mu biti dusanga mu ishyamba ndetse n'ahandi hatandukanye, byifashishwaga mu gukoramo imiti ya gakondo yavuraga indwara zitandukanye. Ibi biti twavugamo imiyenzi, imihati, nyirabarasanya, umuravumba ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo nabwo bwari bufite akamaro mu gihe cya kera, aho wasangaga bifashisha ibikoresho bitandukanye nk'ibimera ndetse n'ibindi bindi mu kuvura abaturage.

Amaduka acururizwamo imiti igiye itandukanye, asabwa kujya abika iyi miti ahantu heza ku buryo bitatuma yangirika. Ibi ngibi bigafasha umucuruzi kwirinda igihombo kandi agatanga imiti yujuje ubuziranenge.

Minisiteri y'ubuzima yashyize inyubako zitandukanye ndetse ishyiraho na gahunda kuri buri kigo nderabuzima ya gira ubuzima, aho abaganga basobanurira abaturage kugira isuku ndetse no gukaraba amazi meza n'isabune, mbere yo kurya ndetse na nyuma yo kurya.

Leta y'u Rwanda hamwe na Minisiteri y'ubuzima yashyizeho gahunda yo kuganiriza abaturage ku kigo nderabuzima ndetse no kubigisha ibyiza by'isuku.

Mu bitaro kwa muganga abarwayi baje kwivuza bagenerwa inama z'uburyo bashobora kwitwara ndetse no gusigasira ubuzima bwabo, aha umuganga yabasabye kujya bakoresha amazi meza n'isabune mbere na nyuma yo kurya.

Mu bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima bitandukanye abatanga serivisi z'ubuvuzi barasabwa kwitwararika bagatanga serivisi nziza kandi inoze, ibi bifasha umurwayi gukira neza kandi mu gihe gitoya.

Abakozi bakora ku kigo nderabuzima ni bamwe mu bishimira gahunda Leta yashyizeho yo kubegereza ikoranabuhanga babaha mudasobwa zizajya zibafasha mu kubika amakuru.